Ifoto y'umugabo utagaragara neza, wambaye ijile ijya gusa ikivurivundi, hejuru hariho ibara ry'umukara n'amagambo yanditse mu mabara y'umweru, hirya gato hariho andi mafoto y'abantu bicaye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bareba imbere ku ntebe z'umutuku, umwe yambaye ishati y'umukara ndetse iruhande rwe hateretse amazi, yanegeranye n'undi ufite ishakoshi ndetse wambaye amarineti.

Abantu benshi bicaye ahantu hahuriye abantu nko mu mahugurwa cyangwa mu nama, hari abandi bane bicaye imbere yabo bisa nkaho ari bo bari kubahugura, bicaye imbere y'icyapa cyanditse ngo rubyiruko menya amateka yawe.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bicaye, hakaba harimo umugabo umwe wambaye ishati y'umukara, isaha, akaba arifite mikoro mu ntoki ameze nk'uri gutanga igitekerezo.

Abantu bicaye muri sale, bameze nk'abari gukora inama, harimo umugabo umwe uhagaze, wambaye yatebeje ufite mikoro mu ntoki, yambaye isaha ndetse n'inkweto z'umweru n'umukara.

Abantu batatu barimo umugore umwe n'abagabo babiri bakaba bicaye ku meza ateretseho amazi buri muntu wese afite aye ndetse uwo mugore akaba ari kwandika.

Umugabo munini ubyibushye wambaye a marinete ufite umusatsi w'umukara, ishati y'amaboko magufiya, isaha ku kuboko n'ipantaro y'umukara akaba afite mikoro mu ntoki ari kubwira abantu bamuri imbere, inyuma ye hari rido nini ndetse n'udupapuro twometse ku gikuta.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, bari kwandika nk'abari mu nama. Abari imbere bari ku meza ateretseho amacupa y'amazi, ndetse n'indabyo. Harimo umugabo uri kwandika, wambaye ingofero y'abisilamu.

Umukobwa wambaye imikenyero y'umweru ndetse n'isaha ku kaboko n'udushuma mu mutwe, akaba ari guseka cyane yishimye. Inyuma ye hari abandi bantu bicaye imbere y'ameza hariho n'indabo.

Abagabo babiri bambaye neza imyenda y'umweru n'umukara bisa nk'aho bari mu bukwe bari guseka, iruhande rwabo hakaba hari ameza asa neza afite imitako y'umukara ndetse n'umweru, inyuma y'aho hari abandi bantu bahahagaze.

Abagore babiri bafite umusatsi w'umukara bakaba bambaye imishumi mu mutwe ndetse n'uduti turi muri iyo mishumi, iruhande rwabo hari undi mugore ufite umusatsi w'umukara ndetse yambaye n'imyenda y'umweru n'umukara.

Abakobwa beza batanu, barimo guseka, bambaye imikenyero myiza iri mu mabara atandukanye, n'udusengeri, bambaye n'utundi tuntu tw'udushumi mu gahanga, n'imisatsi y'umukara.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore, bigaragara yuko bakoze ubukwe. Umugabo yambaye umwitero, umugore yakenyeye, yambaye n'urugori, iruhande rwabo hakaba hari abantu babaherekeje bafite na kado.

Abagabo b'ababyinnyi bambaye imyenda y'umutuku hejuru irimo n'akabara k'umweru, hasi bakaba bambaye ibishura by'umweru ndetse n'amayogi y'umukara. Bari kubyinira abantu bari mu itente, bisa nk'aho habaye ubukwe, bari imbere yabo.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi w'umutuku urimo amabara y'umweru, akaba afite telefone mu ntoki. Imbere ye hari inka nyinshi ziteze amahembe y'umweru, hakurya hakaba hari ibiti by'ishyamba byinshi.

Abakobwa beza bari guseka bambaye utuntu tw'udushumi mu mutwe, bakaba bambaye n'imikenyero n'amasengeri, bihagaze imbere y'abantu bicaye barimo barababyinira imbyino gakondo.

Inzu mberabyombi iberamo ubukwe yicayemo abantu benshi, harimo abakobwa barimo barabyina bambaye imyenda myiza y'umweru n'udusengeri tw'umweru barimo barabyina baseka.

Umuhanda w'igitaka urimo umugabo uri kugenda, ku ruhande hakaba hicaye abantu ndetse hari n'umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, hirya gato hari amapoto y'amashanyarazi ariho insinga zijyana umuriro mu baturage.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu, umupira w'amaboko magufiya w'umutuku ndetse n'ipantaro, akaba ari hejuru y'insinga z'amashanyarazi ari kugenda ariho, akaba afite n'urundi rusinga mu ntoki.

Amatara yo ku muhanda ari kwaka akaba akikijwe n'ibiti byinshi bigiye binyuranye biconze neza kandi biteye ku murongo, bigaragara ko ari mu gihe cya nijoro kuko amatara ari kwaka.

Abantu babiri bahagaze ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye, imwe ikaba isakaje amabati y'umukara isize irangi ry'ubururu, iruhande rwaho hari amapano menshi ari hejuru y'akazu k'amabati.

Insinga z'amashanyarazi nyinshi ziri ku mapironi y'ibyuma agiye atandukanye ndetse hari na za moteri nini zigena umuriro w'amashanyarazi, inyuma yaho hari ibara ry'umuhondo bigaragara ko izuba riri kwaka.

Abagabo benshi b'abakozi bambaye ingofero z'abubatsi, bari mu nsinga z'amashanyarazi, ahantu hakusanyirizwa umuriro, hari abandi bagabo babiri bahagaze ku ruhande babareba nk'abari kubagenzura.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amarangi y'umukara n'umweru ku mpande hakaba hari amapironi maremare atwara umuriro w'amashanyarazi, ku mpande hakaba hari urugo rufite irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Inzira y'umuhanda irimo abantu benshi bari kugenda hakaba hari n'umutaka wa MTN, iyo nzira ikaba ikikijwe n'inyubako nyinshi ziteye irange ry'umuhondo kandi hakaba hari n'insinga z'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo n'impuzankano y'abatekinisiye, akaba ari mu byuma, arimo arahuzahuza ibintu by'insinga kugira ngo arebe yuko byakora amashanyarazi kandi iruhande rwe hari n'ibindi bikoresho.

Umukobwa wambaye ingofero y'umuhondo wambaye n'impuzankano, kuri iyo mpuzankano handitseho amagambo REG, ahagaze imbere y'insinga z'amashanyarazi zirimo umuriro.

Amapoto ashinzwe gutwara amashanyarazi azwi ku izina ry'amapironi, ariho insinga zigiye zitandukanye zimwe hakurya izindi hakuno, inyuma yayo hirya hari inzu imwe.

Umugabo uri hejuru y'inzu ifite amabati y'umutuku, akaba afite inyundo mu ntoki ari gusudira pano hejuru y'ayo mabati. Akaba ari gufashwa n'undi mugabo wambaye agapira k'amaboko magufi.

Umugabo wambaye umupira wa rakosite uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, akaba ahagaze imbere ya cash power isa umweru iriho insinga z'umukara ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye ingofero y'ubururu n'ishati, akaba afite n'akandi kantu kkara radio mu ntoki ari gukora ahantu mu kabati karimo insinga nyinshi zigiye zitandukanye zicomekeranyije.

Inyubako ziri ahantu hagari zifite ibisenge bisa umutuku, imbere yaho hakaba hari igiti kiriho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro mu bice bitandukanye.

Umukobwa ufite umusatsi w'umukara, wambaye agapira k'amaboko k'umweru n'ijipo, akaba afashe ku cyuma cyabugenewe kifashishwa mu kumotsa imisatsi y'abagore. Afite kandi n'imashini yogosha mu ntoki.

Abantu benshi b'abubatsi barimo n'abazungu bambaye ingofero z'ubwubatsi ndetse n'amajiri yabugenewe bakaba bari ahantu hakikije n'amashitingi, hakurya hakaba hari inzu y'ibati ntoya bameze nk'aho bahacukura amabuye.

Ibyuma byinshi biri ahantu hatandukanye mu nzu runaka bikaba biri mu mabara menshi, iby'ubururu, iby'umweru, iby'umuhondo ndetse inyuma yaho hakaba hari n'amapironi.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibyatsi hirya yawo hakaba hari inyubako yubakishije amabati n'amatafari ahiye ikaba yicayeho abagabo babiri ku ntebe.

Abantu batatu bahagaze mu muryango basa nk'aho bari gusohoka, kuruhande gato hahagaze undi mugore wambaye agashati k'umukara n'isaha arimo arabareba, kuri iyo nzu hateyeho irange ry'ubururu handitse n'amagambo ngo ikaze.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ubururu n'umukara cyanditseho amagambo ngo Ingoro y'Ubutabera, Urwego rw'Ibanze rwa Nyagatare, kikaba gifite amaguru y'umukara, inyuma yaho hakaba hari itaka n'ibyatsi.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bazindukiye mu gikorwa cya siporo, ahantu muri sitade. Hakurya haragaragara amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Hirya gato hari ahantu abantu bicara hatanyagirwa.

Ikigo cy'amashuri gikorotiriye neza gifite amarembo asize amabara atatu iry'icyatsi, iry'ubururu n'iry'umutuku mo imbere hakaba harimo umugore wambaye umupira w'amaboko ndetse n'ijipo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo igiye icagaguye yerekana aho abanyamaguru bambukira, ku mpande zombi hari amashanyarazi, hakurya hakaba hari inyubako ndende cyane ifite igisenge cy'umutuku ndetse isize irangi ry'umweru.

Abantu benshi bari kugenda ahantu hari ikiraro, impande y'icyo kiraro hari uruzitiro rukoreshejwe ibyuma, kandi ibyo byuma bifite amabara abiri; hejuru hariho ibara ry'umutuku, mo hagati harimo ibara ry'umweru, hasi hari ibara ry'umutuku.

Ikigo cy'amashuri cyubatse mu buryo bugezweho ku ruhande hakaba hari icyapa kiriho igishushanyo k'inka, hirya gato hari umumotari ufite ibicuba by'amata akamishirizamo.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane hameze nkaho ari muri sitade, inyuma yaho kure hari ibiti bigiye bitandukanye imbere yabo hari imodoka yabugenewe ikorerwaho ibirori.

Inzu igezweho iri mu mabara y'umweru, ikaba kandi isakajwe amabati y'ubururu, amarembo yayo akaba asa icyatsi, iruhande rwayo hakaba hari ikigega n'inyuma hakaba hari ibyatsi.

Inzu za kera zari zizwi nk'ibigonyi zubatse mu buryo bumeze nk'icyobo ni ebyiri zegeranye, inyuma yazo hari ibiti ku ruhande rw'iburyo ndetse n'uruhande rw'ibumoso hose hari ibiti.

Abantu benshi bahagaze ku kiraro gifite inkuta z'inkingi z'umutuku n'umweru, bamwe baricaye, abandi barahagaze, munsi y'icyo kiraro hari gucamo amazi atemba, haragaragara n'ibyatsi.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bahagaze imbere y'inzu ifite irange ry'ubururu, imbere hakaba hari umugore wambaye itaburiya y'umweru, harimo n'abazungu bakaba bari kwifotoza.

Abagabo benshi bambaye ingofero z'imihondo n'amajire y'umutuku, bafite ibikoresho byo gukora umuhanda wa kaburimbo w'umukara, abandi bahagaze mu mashini ikora umuhanda.

Inzu yubakishije amabati y'ubururu, iruhande rwayo hakaba hari n'ubwiherero bufite amabati y'ubururu, muri iyo nzu hakaba hicayemo abantu n'inyuma yaho hakaba hari undi mugore wambaye umupira w'umutuku.

Ikiraro kigezweho gihuza ahantu n'ahandi, cyambukiranya, gifite imishumi ku mpande, abantu bambuka bafasheho kugira ngo bataba bagwa, iruhande rw'icyo kiraro haparitse moto ebyiri kandi hirya hari ibyatsi byinshi.

Inyubako igezweho yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isakajwe n'amabati, ikaba iteye irange ry'umuhondo ifite inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse n'ubururu, isakaje amabati, ku mpande hakaba hari ikibuga kinini hakaba hari n'abantu babiri barimo barahagarara bareba no hejuru.

Ahantu hadatuye abantu, imisozi ariko harimo imihanda myinshi inyuranyuranamo, harimo n'umuhanda wa kaburimbo, hepfo gato haragaragara imirima myinshi ndetse n'ibiti byinshi, hakurya yaho hari umusozi, wagira ngo bacukuramo amabuye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, harimo abambaye imipira y'umweru y'imikara. Hari umuntu uhagaze imbere yabo wambaye ikote ry'umukara ,hari na bariyeri yanditseho ngo stop.

Abagabo benshi bahagaze imbere y'inzu iteye amarange y'icyatsi, higanjemo abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare, harimo n'abandi bambaye imyenda y'umukara n'iy'umweru.

Ahantu hari inyubako nyinshi zikikijwe n'urukuta ruriho amarembo y'umutuku ndetse n'umweru, inyuma yaho hari abasore babiri hirya gato hari umusaza ugendera ku mbago.

Sitade nini kandi nziza irimo ikibuga bakiniramo ndetse n'amabara y'umutuku agikikije, ku ruhande hari ubwatsi bwinshi kandi hateye n'ibiti byinshi bituma haza umuyaga mwiza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'umukara hasi inkweto n'amasogisi y'umweru bahagaze inyuma y'ikigo cy'amashuri cyitwa Nyagatare junior prison.

Ahantu hari inyubako ifite igisenge kimwe aho abantu bugamira imvura cyangwa izuba, harimo abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu, iyo nzu ikaba ifite irange ry'umuhondo n'umweru hejuru.

Inzu nyinshi zitandukanye zirimo amagorofa, inyuma y'izo gorofa hakaba hari ishyamba ndetse zikaba zikikijwe n'igipangu kinini gifite ibyuma by'umukara ndetse ayo mazu asize ibara ry'umuhondo.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite igisenge cy'amabati, iteye irangi ry'umuhondo, imbere yaryo hakaba hari ibendera r'u Rwanda riri mu mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hirya gato hari abantu babiri bahahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo imodoka nini zitandukanye, hirya hari amazu menshi asakaje amabati y'icyatsi ndetse n'ubusitani hirya no hino.

Ikiraro abanyamaguru banyuraho, kizitiye kumpande hateyeho n'ibiti hariho n'ibintu by'imigozi abantu bashobora kwambukiranya ibyo biti biteye amarangi y'ubururu, icyatsi n'umuhondo, hirya yaho hari ibiti.

Inzu igezweho isakaje amabati ndetse ifite n'ibara ry'umuhondo ikaba iriho icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo agira ati Matimba korose boda isidi senta urugo mbonezamikurire y'abana bato.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyenda iri mu maboko agiye atandukanye ariko higanjemo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'iy'imihondo bameze nk'abanyeshuri bakaba baje kwibuka.

Ahantu hijimye hatagaragara neza, hirya hari inzu itagaragara neza, isize irangi yanditseho n'amagambo mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari igicaniro kinini kirimo cyakamo umuriro.

Umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku uhagaze imbere y'abantu, inyuma ye hari igiti cy'umwembe ndetse n'izindi nyubako zisakajwe amabati n'amadirishya y'ubururu n'inkingi z'bururu wagira ngo ni amashuri.

Abagabo babiri bari kumwe, umwe yambaye ikote n'agapira k'umweru mo imbere, undi yambaye ishati ndetse na furari bafite indabo ziri ku nkoko bakaba bagiye kwibuka.

Abantu benshi biganjemo abadaso bambaye impuzankano n'umusirikare umwe ndetse n'abandi bantu bambaye gisiviri bakaba bicaye ahantu buri wese yicaye ku meza kandi bamuhaye n'amazi bameze nk'abakurikirana amasomo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare n'isaha n'ipantaro y'umukara akaba ahagaze imbere y'igiti cy'umwembe, iruhande rwe hari ameza ndetse n'undi mugabo wambaye ikote.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore harimo umwe ufite indangururamajwi mu ntoki bahagaze batuje nk'abari kwibuka, iruhande rwabo hari itente, inyuma hari ibiti byinshi.

Abagabo benshi bambaye ingofero bahagaze ku murongo bari kwifotoza inyuma yabo hakaba hari igiti kinini cy'umuyenzi ndetse n'akazu gasakaje amabati bakaba bahagaze iruhande rw'icyapa cyanditseho ngo Gikoba.

Abagabo benshi bahagaze ahantu hamwe mu nzu irimo amakaro y'umukara, hakaba harimo abasirikare babiri ndetse n'abashinzwe abagororwa babiri, batuje cyane nk'abari kwibuka.

Abantu benshi bahagaze ahantu nko mu nama, harimo abasirikare n'abandi bagabo n'abagore, harimo n'umupolisi ufite amapeti, ku ruhande hari umugore wambaye ikanzu y'umuhondo.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku, ufite imisatsi y'umukara, wambaye n'amaherena akaba ateruye indabo mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari umugabo umutwikirije umutaka w'umukara.

Abantu bicaye ahantu hamwe harimo abapolisi imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'isaha akaba ari gusoma ababwira imbwirwaruhame.

Abantu bari mu nama, bakurikiye amasomo hari umugabo uhagaze ufite mikoro mu ntoki, wambaye ishati ijya gusa icyatsi, inyuma ye hari umumama nawe uhagaze wambaye agakote k'icyatsi, kajya kuba umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'umukara uhagaze imbere yabantu benshi cyane bamwe bahagaze inyuma yihema abandi bahagaze mu ihema, inyuma yabo hari ibiti.

Abayobozi bahagaze ahantu muri sale, hakaba harimo abapolisi, abasirikare, dasso ndetse n'uhagarariye imfungwa n'abagororwa. Bakaba bahagaze bareba imbere nk'abari kwifotoza.

Abantu bateraniye ahantu hamwe ari benshi imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye ingofero, amarinete, ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro watebeje akaba afite mikoro mu ntoki.

Abagabo ndetse n'abagore harimo umwe wambaye baji mu ijosi ndetse n'ishati y'umweru, bakaba bahagaze imbere y'inyubako ifite amabati y'ubururu, yubakishijwe amatafari ndetse isezeho n'irangi ry'umuhondo, ikaba izengurutswe n'uruzitiro.

Abagabo benshi bahagaze bafite inkoni abandi bambaye ingofero, iruhande rwabo hakaba hari udutebe tw'ibiti, inyuma yabo hakaba hari insina nyinshi z'urutoki harimo n'izihetse ibitoki.

Abantu benshi bicaye barimo abakecuru ndetse n'abasaza, hari umugabo wambaye imyenda ya RIB, uhagaze imbere yabo ari kubabwira, hakurya hari ingo nyinshi ibiti ndetse n'urutoki hamwe n'inzu zisakaje amabati.

Inyubako nziza, isa neza, igaragara mu mabara atandukanye, ifite igisenge cy'umukara kiriho n'ibara ry'umweru, inyuma yayo hari ubusitani busa neza, harimo n'akayira gakoreshejwe amapave kandi hariho n'ubusitani burimo na pasiparumu.

Abantu benshi biganjemo abayobozi mu nzego zinyuranye, abasirikare ndetse n'abapolisi bicaye mu itente riteye amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi bakurikiye ikiganiro runaka.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara kikaba gihagaze imbere y'ibiti binini cyane na byo byegeranye n'inyubako isize ibara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo ukaba hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umutuku ndetse n'igisenge cy'ubururu. Iruhande rwaho hakaba hari icyapa gifite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Imodoka ya sosiyete itwara abagenzi ya Yahoo iparitse muri gare, hakaba hari n'abantu bari imbere y'aho bari gukatirwa amatike kugira ngo bagende, hirya gato hari inzu isakaje amabati.

Umumotari uri kuri moto, wambaye kasike y'umukara, akaba ahetse umugenzi na we wambaye kasike y'umukara, inyuma yabo hari umuntu ufite amakarito, ndetse yambaye n'imyenda y'umukara.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka umwe akaba yambaye ikote ry'umutuku, ipantaro y'umukara n'umweru n'inkweto z'umweru n'icyatsi akaba ahagaze mu muryango w'imodoka ashaka kwinjira.

Ahantu hari indabyo iruhande rwazo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo Nyagatare Sector, inyuma yaho haparitse imodoka eshatu ndetse hakaba n'indi y'umutuku iri hirya iri kwaka amatara.

Umumotari wicaye kuri moto wambaye kasike, afite iyindi mu ntoki hirya ye haparitse imodoka ndetse hari n'abantu bahagaze aho bigira ibinyabiziga.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota isa umweru, ikaba iparitse imbere y'inzu ifite amabati y'umutuku ikaba isize irange ry'umuhondo, iruhande gato hakaba hari icyapa cyanditseho ngo irembo.

Imodoka ifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, imbere iri mu muhanda wa kaburimbo usa umukara urimo n'umurongo w'umuhondo, ku ruhande gato hari umukobwa uhahagaze.

Imodoka y'umweru ifite irangi ry'icyatsi hejuru, ifite purake ya RAC ijana na makumyabiri n'umunani Q iparitse ahantu mu muhanda.

Abantu bahuriye ahantu hamwe, hakaba hari umusore uhagaze wambaye umupira wa RBC,ufite n'icyapa mu ntoki, cyanditseho ngo gerayo amahoro. Iruhande rwe hari umumama wambaye ishapure n'igitambaro.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu nzu mberabyombi, hakaba harimo umugabo wambaye umupira wa lacoste wumutuku ufite n'ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweru, iruhande rwe hari umusore wambaye agapira k'umutuku n'agapfukamunwa.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bafite amasuka bari guhinga nk'abari gukora umuhanda. Harimo abagore ndetse n'abagabo, kandi bose urabona yuko bari mu gikorwa kimwe, kandi hari n'abandi bari inyuma yabo badafite amasuka.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bicaye ahantu harimo Abasirikare, Abapolisi ndetse n'abahagarariye Daso, bakaba bicaye ahantu hari ameza ndetse n'intebe hashakajwe amatente arimo amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bo mu nzego z'ubuyobozi harimo abayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'abahagarariye umutekano nk'abasirikare ndetse n'abapolisi bakaba bicaye ahantu munsi y'igiti, inyuma yabo hari inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse isakaje amabati.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, barimo babyina, biganjemo abagore inyuma yaho hakaba hari itente rifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umuhondo n'icyatsi n'ubururu, hakaba hari icyapa cyanditseho ngo Imbuto Foundation.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe harimo umukobwa wambaye amarinete mu mutwe, ikote ndetse n'umupira w'amaboko magufiya, yambaye n'isaha ku kaboko akaba ari kubwira abantu bicaye, inyuma haparitse igare kandi hari n'ibiti byinshi.

Abagabo bane bari kumwe n'umugore umwe, ufite ishati y'umweru ndetse harimo n'umupolisi, bakaba bahagaze imbere y'inyubako isize irangi ry'umuhondo, bareba mu cyerekezo kimwe.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bicaye batuje, hakaba hari umugabo wambaye ingofero, umupira w'umukara, ipantaro ndetse na bote, ari kubabwira. Inyuma yabo hakaba hari inzu.

Abagabo batatu bafite ibitiyo, umwe yambaye ishati ndende y'umutuku, undi yambaye agapira ndetse n'isaha bakaba bari mu muganda, inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Umugabo wambaye ingofero, amadarubindi y'umukara, umupira w'amaboko mugufi w'umutuku ndetse n'ipantaro uhagaze ari gusuhuza abantu. Iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse n'agapira k'umweru, inyuma yaho hari abandi bantu ndetse n'igare.

Abakinnyi bambaye imyenda iri mu mumabara atandukanye harimo ay'umuhondo, ay'ubururu ndetse n'ay'umutuku bari muri sitade bari gukina umupira usa umweru, hirya yabo hari inyubako ifite amabara menshi.

Abantu babiri bari mukibuga bafite baro umwe yambaye impuzankano y'umuhondo undi yambaye impuzankano y'ubururu bari gukina, inyuma yabo hari undi wicaye ahantu munsi y'ikigega.

Abantu benshi bari muri siporo bambaye imyenda iri mu mabara menshi agiye atandukanye bakaba bari imbere y'ahantu hari inyubako, inyuma yabo hakaba hari amazamu ndetse n'ikibuga hamwe n'itara riri kwaka.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko rwicaye ahantu bari muri siporo, hakaba harimo umwe wambaye imyenda y'umutuku n'imisatsi isutse ari kureba ibyo abandi bakora.

Abakinnyi bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru bamwe bambaye amajezi y'ubururu n'umweru abandi bambaye umuhondo n'umukara babiri muri bo bakaba baryamye hasi, hakurya hari uruzitiro runini rurimo senyengi.

Abamama batatu bafashe ku cyapa, umwe afashe balo mu ntoki, abandi bafasha ku no cyapa, cyanditseho ngo Nyagatare disitirikti, inyuma yabo hari abandi bafite ibikombe ndetse na ballon eshatu.

Icyapa kirimo ikirangantego cy'Igihugu kiri mu mabara y'icyatsi cyanditseho ngo Umurenge Kagame kapu bibiri na makumyabiri na kane, bibiri na makumyabiri na gatanu. Munsi hakaba harimo uko amakipe azagenda akina.

Abantu benshi bicaye muri stade ku dutebe tw'ubururu imbere hagaragara abantu batatu harimo umusore wambaye ingofero mumutwe na'agapira k'umweru ari kumwe n'umukobwa uri guseka.

Abantu benshi bicaye muri sitade bambaye imyenda ya siporo, hakaba hari undi mugabo na we wambaye imyenda ya siporo irimo ipantaro y'umukara inkweto z'umukara n'umupira w'ubururu, ufite mikoro mu ntoki ari kubabwiriza. Inyuma ye hicaye umwana wicaye ku ntebe z'abasimbura.

Abantu bari mu kibuga bari gukina bambaye impuzankano zitandukanye. Umwe muri bo yambaye ikabutura y'ubururu ndetse n'umupira w'ubururu irimo ibara ry'icyatsi, hirya gato hari abantu baje kureba umupira.

Umusore uhagaze ahantu hameze nko mukibuga wateye isari, yambaye imyenda y'abakinnyi isa ubururu ndetse n'icyatsi arimo arareba abandi, inyuma ye hari ibyatsi byinshi.

Abakinnyi b'abakobwa bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu abandi bambaye iy'umuhondo ijya kuba umutuku bakaba bari gukina umupira muri sitade.

Abakinnyi b'amakipe abiri atandukanye bari mu kibuga bakina, ikipe imwe yambaye imyenda y'umweru n'ubururu, iyindi yambaye imyenda y'umuhondo n'icyatsi hagaragaramo abantu batanu, batatu bo mu ikipe imwe n'abandi babiri bo mu yindi kipe.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga, ikipe imwe ikaba yambaye imyenda y'ubururu ndetse harimo n'ibara ry'icyatsi, bakaba bari gukinira mu kibuga kirimo imisenyi kitarimo ibyatsi.

Umusore wambaye akagofero k'umukara, agapira k'amaboko magufi k'umweru ndetse n'agasheneti mu ijosi, akaba afite ikintu kimeze nk'umuriro, yasamye agiye kukitamira.

Abantu benshi bivanzemo abagabo n'abagore bazindukiye mu mugikorwa cya siporo bari mu muhanda ku ruhande hari inzira y'abagenzi ndetse n'ibiti by'imikindo hari umusore uhagaze imbere yabo uri kuberekera.

Abana batatu barimo umwe wambaye agapira k'umweru ndetse n'umukara, ipantaro y'umutuku n'umukara, amasogisi y'umukara n'inkweto z'umweru ari gukina umupira usa umutuku.

Abantu babiri umwe w'umugore n'undi w'umugabo bahagaze mu kibuga cy'umupira, iruhande rwabo hari umupira wo gukina bakaba bahagaze nkaho umugabo ari mu izamu umugore agiye gutera penalite.

Ahantu hari inzu itagaragara igisenge, ifite umuryango ukinguye, imbere yaho haparitse moto zitandukanye zigera muri enye ndetse n'umugabo utagaragara neza, bigaragara yuko ari ahantu bagurishiriza moto.

Umukobwa wambaye: agapira k'umukara n'umweru n'agasengeri mo imbere n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara. Afite telefone mu ntoki ndetse n'agasakoshi ku rutugu ari kugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari ahantu hapfundikiye hacamo amazi muri rigori. Hirya gato hagaragara ibiti ndetse n'ibyatsi byameze bikuze.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibyatsi ndetse hakaba harimo n'abantu babiri, umwe ukenyeye ikote ry'umukara n'undi wambaye ipantaro y'umukara hejuru bari kugenda muri uyu muhanda.

Umuhanda w'igitaka, urimo utwatsi duke duke wagira ngo urava ahantu hamwe ujya ahandi, ku nkengero zawo hariho ibyatsi bigiye bitandukanye, mo hagati naho harimo ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite inzira ku ruhande y'abagenzi, muri iyo nzira hahagaze abantu babiri bambaye imipira y'umutuku ndetse hasi bambaye umukara.

Umugabo uri mu muhanda wambaye ingofero y'umukara, umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, uri gucunga igare rihetse ibitoki byinshi, iruhande rwe hakaba hari undi musore n'abandi bakobwa babiri, bari kugenda mu muhanda.

Umuntu w'umusore ufite igare, akaba yambaye isengeri ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Ari kugenda mu muhanda w'igitaka wacikaguritse. Hirya y'umuhanda hari ibyatsi.

Umuhanda w'igitaka urimo amabuye menshi ku mpande ukaba ukikijwe n'ibyatsi hirya no hino, wigiye imbere hari ahantu hari amayira abiri, inzira imwe ica mu ruhande rumwe iyindi ikomeza mu rundi ruhande.